Amacupa afite amabara y'umweru ndetse ashushanyijeho ibihingwa by'ubwoko butandukanye, muri aya macupa harimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa tukabibuza gutanga umusaruro.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ivu, yambaye inkweto zikoreshwa mu kazi ndetse afite ikijerekani ahetse ku mugongo, aho ari kugenda atera umuti, mu murima wuzuyemo amashu kugira ngo atazibasirwa n'udukoko.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, ahetse ikijerekani ku mugongo kirimo umuti aho ari kuwutera ibihingwa kugira ngo bitazaribwa n'udukoko.

Umubyeyi w'umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi, yambaye inkweto zifite ibara ry'icyatsi kibisi ,uyu ari mu murima yahinzemo ibitunguru, ndetse ahetse ijerekani ku mugongo irimo umuti ,aho ari kuwutera ibyo bihingwa bye.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, ari gukoresha igikoresho kigezweho atera umuti mu murima w'ibigori, mu rwego rwo kugira ngo ibyo bigori bitazibasirwa n'udukoko, tubibuza gutanga umusaruro.

Mu gisambu gifite ibyatsi bitoshye, harimo umugabo wambaye uturindantoki tumurinda kuba yagira ibimwangiriza intoki bimukoraho, afite ndetse igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko, aho ari kuwutera ku kimera.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibihingwa bikiri bito, afite igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko. Uyu ari gutera umuti ibyo bihingwa, kugira ngo bizamuhe umusaruro yifuza.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi, ari mu murima uhinzemo ibihingwa. Uyu afite ikijerekani ahetse ku mugongo, cyuzuyemo umuti wica udukoko ndetse akaba ari kuwutera kuri ibyo bihingwa bye.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara n'ikigina, ari mu murima we munini, yahinzemo igihingwa cy'ibirayi. Uyu afite ikijerekani kinini ku mugongo, kirimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa ndetse ari kugenda abitera umuti.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu bwijimye ,ari mu murima uhinzemo ibigori. Uyu afite igicupa kinini mu mugongo ahetse, kirimo umuti aho ari kuwutera ibyo bigori, ngo bizatange umusaruro.

Umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'umweru, uturindantoki, ndetse n'igicupa kinini kirimo umuti wica udukoko twibasira ibihingwa, ari hagati mu murima we aho ari gutera uwo muti ku bihingwa bye ngo bitazangizwa n'udukoko.

Igishanga kinini gihinzemo igihingwa cy'umuceri. Muri icyo gishanga harimo abagabo, bambaye imyambaro ibapfuka ahantu hatandukanye ndetse bahetse ibikapu birimo umuti bari gutera kuri ibyo bihingwa kugira ngo bitazibasirwa udukoko.

Ahitegeye umusozi muremure, uriho ibimera birimo nk'ibyatsi n'ibiti. Hari igishanga gikorerwamo imirimo itandukanye, irimo iy'ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'ubworozi bw'amafi.

Umusaruro w'amafi y'ubwoko bumwe yashyizwe ahantu hamwe nyuma yo kuroga mu kiyaga, aya ajyanwa ku masoko abantu bakagura bakajya kuyateka maze agafasha abagize umuryango wabo kugira ngo bagire imbaraga ndetse n'ubuzima bufite ubudahangarwa.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, afite indobo aho ari kugerageza kugaburira amafi ari mu cyuzi, aya mafi iyo akuze ajyanwa kugurishwa maze bikinjiriza amafaranga abantu bayoroye.

Abagabo bambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umukara, bari ahantu aho bari kwerekana amafi barobye mu kiyaga, aba barayajyana ku isoko bayagurishe cyangwa se bayajyane mu ngo zabo atunge imiryango yabo.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo ,umukara ,n'umutuku, ari iruhande rw'icyuzi cyororerwamo amafi .Na none kandi hari umurima munini uhinzemo igihingwa k'insina zera ibitoki.

Umubyeyi w'umugabo ukiri muto, wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku. Ari ahantu mu gishanga gihinzemo umuceri, uyu kandi ari kwerekana umusaruro w'amafi yakuye mu cyuzi.

Umugabo ndetse n'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara n'umutuku, bari ahantu mu gishanga kirimo umuceri ukiri muto, aba bari kugerageza kuroba amafi bakoresheje ikizwi nk'urushundura.

Umubyeyi w'umugabo ari ahantu hari amazi agomeye, aho afite n'umusaruro amaze kuroba, akoresheje igikoresho gakondo kiriho urushundura.

Ahateganye n'ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, hari amazi yagomewe maze ashyirwamo umwayi w'amafi kugira ngo azakure maze atange umusaruro. Hejuru yawo kandi hari utuzu duto twororerwamo inkwavu.

Umusaruro w'amafi wamaze kurobwa washyizwe ahantu hamwe, aya mafi ajyanwa ku masoko maze akagurishwa bikinjiriza abayarobye amafaranga na bo bagateza imbere imiryango yabo.

Ahateganye n'ibiti birebire by'inganzamarumbo harimo abana bakiri bato, aha kandi hari n'ibyuzi binini birimo amafi ,aho yororerwamo maze yakura akajyanywa kugurishwa ku masoko.

Ahakikijwe n'umusozi uriho ibiti ndetse n'insina zera ibitoki, harimo ikiyaga ndetse n'umugabo uri muri icyo kiyaga akoresheje ubwato bukozwe mu biti, uyu ari kuroba akoresheje ibikoresho gakondo.

Imbere y'inyubako zubakishije amatafari ahiye, zinasakaje amabati, hari ibyuzi byororerwamo amafi, hejuru y'ibyo byuzi hari utuzu, twororerwamo amatungo magufi azwi ku mazina y'inkwavu.

Ahitegeye umusozi urimo ibiti birebire bikorwamo ibintu bitandukanye, hari ibyuzi byegeranye ndetse binateganye, ibi byuzi byororerwamo amafi akiri mato, maze yakura agatanga umusaruro, hari kandi n'igihingwa cy'insina cyera ibitoki.

Umubyeyi w'umugore wambaye umupira w'umukara, ari gusarura ikawa zeze ku giti k'ikawa. Uyu arazijyana ku ruganda maze zitunganywe, mbere y'uko zijyanwa ku masoko.

Umurima urimo ibiti by'ikawa biteye ku murongo, ibi byera amakawa atukura iyo yeze maze akajyanwa mu nganda agatunganywa akajyanwa ku masoko yaba ayo mu gihugu n'imahanga bikinjiriza abahinzi bazo amafaranga.

Igihingwa cy'ikawa cyatunganyijwe gifite ibara ry'ikigina, hari kandi n'ikindi gihingwa cy'ikawa ariko zikiri mbisi zifite ibara ry'icyatsi kibisi, izi zitegerezwa gukura maze zamara gutukura zikabona gusarurwa.

Umurima munini cyane uciyemo ibice, uhinzemo igihingwa cy'icyayi kigiye kwera, uyu murima kandi ukikijwe n'ishyamba rinini, ririmo ibiti by'inturusu bikorwamo imbaho na zo zivamo ibikoresho bikomeye.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa biteye neza ku murongo, mu rwego rwo gukurikiza amategeko y'ubuhinzi bugezweho, hari kandi n'ibiti binini by'inganzamarumbo bikorwamo imbaho, na zo zikorwamo ibikoresho bitandukanye.

Umusore ukiri muto, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse ari mu murima uhinzemo, igihingwa ngengabukungu cy'icyayi. Uyu kandi ari gukoresha igikoresho cy'itumanaho cya terefone.

Umurima munini urimo amazi menshi cyane, muri uyu murima harimo umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo, uyu ari kugerageza gutera igihingwa cy'umuceri kugira ngo kizakure, maze kimuhe umusaruro yiteze imbere.

Inzu ituwemo n'abantu yubakishije amategura, imbere y'iyi nzu hari igihingwa cy'insina cyera ibitoki ndetse n'igihingwa cy'ikawa cyeraho ikawa zikajyanwa ku ruganda, zigatunganywa maze zikajyanwa ku masoko.

Umusaruro w'ikawa zitukuye neza cyane, uyu wasaruwe mu murima uri hejuru musozi kuko ariho ikawa zikunda kwera, uyu kandi ugiye gutunganyirizwa uruganda, maze woherezwa ku masoko.

Abakozi bakora muruganda, bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ikigina, bari gusuka ikawa bazikura mu mufuka w'umuhondo. Bazishyira aho bagiye kuzitunganyiriza, bakazivangura n'izitameze neza.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, ubururu ndetse yambaye n'akagofero gatukura, uyu ari mu murima munini uhinzwemo igihingwa ngengabukungu kizwi ku izina ry'cyayi agishyira mu gatebo.

Ibihingwa ngengabukungu harimo nk'ibireti, icyayi, ikawa ndetse n'ibisheke, ibi ni bimwe mu bihingwa byoherezwa hanze maze igihugu na cyo kikinjiza amafaranga.

Umurima munini cyane uhinzemo icyayi, gisarurwa maze kikajyanwa mu ruganda kigatunganywa, kikoherezwa ku masoko yo mu Gihugu n'ay'imahanga, maze bikinjiriza abahinzi bagihinga.

Igihingwa cy'umuceri weze ariko utumye, iki gihingwa kirasarurwa kigahungurwa maze kikajyanwa mu nganda, aho gitorwa maze kigashyirwa neza mu mifuka mbere yo kujyanwa ku masoko.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bweruye ndetse n'umukara, ari iruhande rw'umurima munini uhinzemo igihingwa cy'icyayi, uyu afite mu ntoki amababi y'icyo gihingwa ndetse n'ifumbire ikoreshwa kugira ngo icyo gihingwa gikure neza.

Umubyeyi w'umugabo, ari kumwe n'umugore we bari mu murima munini uhinzemo igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, aba bari kugisarura bashyira mu dukoresho bahetse kugira ngo baze kukijyana ku ruganda, maze bahabwe amafaranga.

Umubyeyi w'umugore ukora umwuga w'ubuhinzi ,wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo ,n'umukara, ateze agatambaro gatukura .Uyu ari mu murima munini, urimo ibiti byera ikawa ,ndetse ari no kuyisarura.

Umubyeyi w'umugore, wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa. Ari mu murima munini, urimo ibiti by'ikawa byeze imbuto z'ikawa zisa n'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku, aho ari gusaruramo izeze.

Igikoresho gifite amabara atukura ndetse n'umukara cyifitemo rasoro, iki gikoreshwa mu bijyanye no kuvura amatungo yo mu rugo yaba maremare cyangwa se n'amagufi.

Icupa rifite amabara y'umweru ripfundikiye neza, rishushanyijeho ibintu bitandukanye, iri cupa ribamo umuti uvura amatungo iyo afite ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

Imiti ifunze neza mu mabara y'umweru, umuhondo n'icyatsi kibisi, iyi miti iba yarabitswe kugira ngo itangirika, maze igakoreshwa mu kuvura amatungo afite ibibazo bitandukanye by'indwara.

Amashashi ari mu mabara y'umuhondo, icyatsi kibisi, ndetse n'umutuku, kuri ayo mashashi hashushanyijeho inyamaswa yo mu matungo maremare izwi ku izina ry'inka, iyi itanga umusaruro w'amata ndetse n'inyama iyo ifashwe neza.

lmiti ifunze neza mu mashashi afite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo ,kuri aya mashashi ashushanyijeho inyamaswa y'itungo rigufi ryo mu rugo, rizwi ku izina ry'inkoko ritanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama.

Amacupa afite amabara y'umukara ndetse n'ibyapa bifite amabara y'umweru, afunzemo imiti, iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo urugero twavugamo nk'inka n'ingurube.

Imiti ifunze neza mu mashashi ,afite amabara y'umweru , umutuku, icyatsi kibisi, ndetse n'umuhondo. Iyi miti ishushanyijeho rimwe mu matungo maremare yo mu rugo ,rizwi ku izina ry'inka ,ritanga umusaruro w'amata n'inyama.

Ahantu habugenewe habitsemo imiti ivura amatungo yaba ayo mu rugo, urugero twavugamo nk'intama, ihene ndetse n'ayandi. Iyi miti ibikwa ahantu heza hatagera ubushyuhe n'ubukonje bishobora kuba byayibasira.

Ahantu habitse imiti ikoreshwa mu bijyanye n'ubworozi, ibitse neza mu ducupa dupfundikishije imifuniko y'amabara y'umweru, iyi miti ikoreshwa cyane cyane mu bworozi bw'amatungo magufi urugero twavuga nk'inkoko.

Imiti ifunze neza mu mabara atandukanye ndetse no mu ducupa dufunze neza, yaba iy'amazi ndetse n'indi ikoze mu bundi bwoko. Iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zibasira amatungo yo mu rugo, yaba amaremare n'amagufi.

Imiti ifunze neza cyane mu ducupa dufite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, kuri two hashushanyijeho amwe mu matungo magufi yo mu rugo, urugero twavugamo nk'inkoko, iyo miti ikoreshwa mu kuvura ayo matungo iyo afite ikibazo cy'ubuzima.

Imiti ifunze neza muducupa dufite amabara y'umukara ndetse n'ubururu, iyi miti irakoreshwa iyo ari amatungo yo mu rugo afite ibibazo by'ubuzima, aho ivomwa mu rushinge maze urwo rushinge na rwo rugaterwa ayo matungo afite ibibazo by'uburwayi.

Imiti ibitse neza ahantu habugenewe mu mabara atandukanye, mu rwego rwo kugira ngo itangirika mbere yo gukoreshwa. Iyi miti ivura indwara zitandukanye, mu buhinzi ndetse no mu bworozi.

Mu ntebe nziza igezweho ifite amabara y'umweru, hateretse igicupa kinini gifite amabara y'ubururu, kirimo umuti ukoreshwa mu kuvura indwara z'amatungo, cyane cyane ayo mu rugo.

Imiti iri ahantu habugenewe ifunze neza mu mabara y'umweru, ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo. Iyi miti irimo iy'ubwoko butandukanye, ivura amatungo ivura ibihingwa ndetse n'iyindi.

imiti ifunze mu mabara y'umuhondo, umutuku, ndetse n'icyatsi. Kuri iyi miti yashushanyijeho inyamaswa z'amatungo yo mu rugo urugerore twavugamo nk'inkoko, intama, ndetse n'inka, iyi miti ivura aya matungo igihe afite uburwayi.

Ahantu habugenewe hatagira ubushyuhe bukabije ,ndetse n'ubukonje bukabije .Hari imiti ifunze neza mu ducupa ,inapfundikiye neza. lyo miti ikoreshwa mu kuvura amatungo yo mu rugo, iyo afite ikibazo cy'ubuzima.

Amashashi afite amabara ajya gusa n'umweru, arimo imiti ishushanyijeho amatungo yo mu rugo magufi y'inkoko, iyi miti irifashishwa cyane mu bijyanye n'ubworozi kugira ngo indwara zitibasira amatungo.

Imiti ifunze mu mashashi yaba ay'umuhondo ndetse n'amacupa y'umweru, iyi miti ibitswe neza cyane kugira ngo itangirika mbere y'uko ikoreshwa, ivura kandi indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo.

Imiti yashyizwe ahantu habugenewe mu kabati, iri mu ducupa dufite amabara y'umweru n'imipfundikizo y'icyatsi kibisi, aha harimo imiti ivura indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo.

Ahantu habugenewe harimo amacupa afite amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, aya macupa arapfundikiye neza kugira ngo ibirimo bitangirika, harimo kandi umuti ukoreshwa mu kuvura amatungo yo mu rugo iyo arwaye.

Amashashi afite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu ashushanyijeho amatungo magufi yo mu rugo azwi ku izina ry'inkoko, aya mashashi arimo umuti ndetse n'ibitera intungamubiri kuri ayo matungo.

Ababyeyi b'abagore bari mu murima aho bari guhinga bakoresheje igikoresho gakondo, gikoreshwa mu buhinzi kizwi ku izina ry'isuka, aho bari kandi hari n'igihingwa cy'insina cyera ibitoki.

Umubyeyi w'umugabo ndetse n'uw'umugore bari mu gishanga kinini cyane gihingwamo igihingwa cy'umuceri, aba bari guhinga bakoresheje igikoresho gakondo gikoreshwa mu buhinzi bwa kinyarwanda kizwi nk'isuka.

Igisambu cyiza kiriho ibyatsi bitoshye, harimo inka za kijyambere zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, izi nka zizwiho guta umukamo uhagije, dore ko inyinshi ziba zikamwa hejuru ya litiro mirongo itatu ku munsi.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu bweruye, ari mu kiraro cyubakishije inkuta z'amatafari ndetse n'ibyuma, muri iki kiraro harimo inka ya kijyambere ifite amabara y'umukara n'umweru itanga umusaruro w'amata.

Umubyeyi w'mugore ari mu murima munini urimo ibyatsi bifite ibara ryi'cyatsi kibisi, uyu kandi afite mu ntoki inkoni nini ndetse n'igikoresho gikoreshwa mu gutema ibiti kizwi ku izina ry'umuhoro.

Mu gisambu kinini kirimo ibyatsi bitoshye, harimo umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'umukara, uyu ashoreye igare rye na ryo ririho ibiti byumye, akoresha mu gucana umuriro.

Ababyeyi b'abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umukara, bari gukora umuganda, mu gikorwa cyo gutera ibiti .Aba kandi bari kumwe n'abashinzwe umutekano, bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi kibisi, afite igiti kikiri gito, uyu kandi ari kumwe n'abandi bagabo ndetse inyuma y'aho hari umurima munini uhinzemo igihingwa cy'urutoki, rwera imineke ndetse rukanakorwamo urwagwa.

Ababyeyi b'abagabo bambaye imyambaro y'umukara bari kumwe n'umwana wabo muto w'umuhungu, aba bari hagati mu bihingwa bikikijwe n'ibihuru nabyo bibamo inyamaswa nyinshi z'agasozi zirimo nk'inzoka.

Mu cyanya kinini cyane kirimo ibyatsi bitoshye, harimo abagabo bashinzwe kwita ku nka bazwi ku izina ry'abashumba, aba bari kumwe n'inka zabo zirimo iza kijyambere n'inyarwanda, aho bari kuzitaho baziragiye.

Umubyeyi w'umugabo ukora umwuga wubuhinzi ari mu murima we aho ari guhinga akoresheje igikoresho cy'isuka ruguru ye kandi hari umurima munini urimo igihingwa cyuruyuzi cyera ibihaza.

Aba babiri bakora umwuga w'ubuhinzi, bari kunyura mu gisambu kirimo ibyatsi bitoshye n'ibiti. Aba bafite amasuka abiri ku rutugu ndetse bavuye gukora umwuga w'ubuhinzi.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'umuceri ndetse ukikijwe n'ibiti, iki gihingwa iyo cyeze kirasarurwa kikumishwa neza kikajyanwa mu uruganda kigahungurwa, mbere yuko kijyanwa ku masoko.

Itsinda ry'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi bari kugemura imbuto bazikura ahantu habugenewe zirererwa mbere yuko zijyanwa mu murima aho ziba zizamara igihe kirekire.

Umubyeyi w'umugore ndetse n'undi w'umugabo bari mu murima munini wuzuyemo igihingwa cy'umuceri, aba bari kuwusarura bakoresheje ibyuma byabo ngo bawanike, bawuhure maze bawujyane mu ruganda uge gutunganywa.

Mu kibuga kinini cyisanzuye kitarimo ubwatsi butoshye ,harimo amatungo magufi ,azwi ku izina ry'ihene. Hari kandi n'ibiti bibiri by'inganzamarumbo ,bikorwamo ibintu bitandukanye bikanakoreshwa mu mirimo y'ubwubatsi.

Ahakikijwe n'ibihuru birimo ibiti birebire harimo abagabo ndetse n'abagore aba bari mu murima munini udahinze aho bari gukoresha ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi bizwi ku izina ry'amasuka bahinga muri icyo gisambu.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu ari ahantu munsi y'igiti aho ari kumwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aba bari gukora igikorwa cyo gutera ibiti.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro y'Igisirikare cy'Igihugu, ari kumwe n'umugabo mugenzi we na we wambaye imyambaro y'Igipolisi cy'Igihugu, aba bombi bari kumwe n'abaturage mu gikorwa cyo gutera ibiti.

Umusaruro w'ibigori washyizwe ku bwanakiro, mbere y'uko bawuhungura maze bakawukuramo intete zisheshwemo ifu y'ibigori, ikorwamo akawunga ndetse n'igikoma gikundwa cyane cyane n'ababyeyi.

Hagati mu isambu irimo ibyatsi bitoshye harimo inka zifite amabara y'umukara n'umweru harimo kandi n'abagabo bashinzwe kuzitaho kugira ngo zitange umusaruro, urimo umukamo ndetse n'ifumbire.

Umubyeyi w'umugore ubyibushye wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku arikumwe n'inka ye aho iri gukamwa iziritswe amaguru kugirango idateza amahane bityo ikaba yagira ibyo yangiza.

Umurima udahinze neza, urimo ibyatsi harimo igihingwa cy'umwembe kikiri gito, iki kera imbuto ziryohereye, zikorwamo ibintu bitandukanye birimo imiti, imitobe n'ibindi.

Umurima munini uhinzemo ibigori bishishe bikiri bito, ibi bigori byitabwaho bigashyirwaho ifumbire bigaterwa umuti maze bigatanga umusaruro ushimishije ku babihinga.

Imirima minini ihinzemo igihingwa cy'umuceri, ikikijwe n'amashyamba manini arimo ibiti by'ubwoko butandukanye, yiberamo inyamaswa z'agasozi zirimo nk'inzoka, ibitera, ndetse n'izindi.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, birimo ibyatsi byimeza, imboga rwatsi zikungahaye cyane kuri vitamine A. Ifasha amaso kubona neza ndetse n'igiti cyera imyumbati y'imibiribwa.

Umurima munini udahinze ndetse urimo ibihuru n'ibyatsi bitoshye, ibi babigaburira amatungo maze na yo agatanga umusaruro, urimo nk'amata cyane cyane ku nka zabo z'inyarwanda ndetse n'inzungu.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bikiri bito, uwo murima ushinzemo igiti kinini ndetse kirekire kinyuzweho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, unyura mu kirere kugira ngo udateza ibibazo, mu gihe waba unyuze hasi.

Umurima munini urimo ibimera bitandukanye, birimo igiti kikiri gito cyerera mu butaka, kikera igihingwa cy'imyumbati, iyi myumbati ikorwamo ifu y'ubugari cyangwa se ikanaribwa itiriwe ikorwamo ifu.

Umurima urimo ibimera birimo nk'ibyatsi ndetse n'igihingwa cyera kirandaranda kikera imbuto z'uruyuzi maze zikajyanwa ku isoko zikagurwa, dore ko zinakundwa ku bwinshi cyane.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, birimo n'ibiti birebire byera imbuto zitwa amapapayi akorwamo ibintu birimo umutobe ukundwa cyanecyane n'abana bakiri bato.

Ahitegeye umusozi muremure uriho inzuri ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho isakaje amabati afite ibara ry'umutuku, hari kandi n'igishanga gihingwamo umuceri.

Umurima munini cyane udahinze ariko urimo ibyatsi bitoshye, ibi byatsi babigaburira amatungo yo mu rugo, yaba amagufi cyangwa amaremare, maze na yo agatanga umusaruro.

Igihingwa cy'urusenda ni kimwe mu bihingwa biteza imbere uwabihinze. Iki kera gifite ibara ry'umuhondo cyangwa se umutuku maze kikajyanwa ku isoko kigatunganywamo urusenda rw'ifu abantu bakarugura.

Ahakikijwe n'ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'ibihuru by'inzitane hari igishanga kinini gihingwamo umuceri, aha kandi hari imashini yifashishwa mu buhinzi ndetse n'abahinzi bahinga uwo muceri.

Intete z'ibigori zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, zashyizwe hamwe aho zitegerejwe gutunganywa zigakurwamo ifu, iyi fu kandi ikorwamo igikoma gikundwa cyane n'ababyeyi, cyane cyane abafite abana bonsa cyangwa n'abatwite.

Umurima munini cyane urimo igihingwa cy'imyumbati, kizwiho kuba cyerera mu butaka nk'ibindi binyabijumba byose, iki gishobora kuba cyaribwa ako kanya kigikurwa mu murima cyangwa se kikanatunganywa kigakurwamo ifu y'ubugari.

Inyuma y'urukuta rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima, hari urubuga runini ruzwi ku izina ry'imboga rwatsi, uru rukungahaye kuri vitamine A, zifasha umuntu kubona neza.

lnzu nziza cyane yo guturwamo, ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku. lyo nzu ifite ikigega gifata amazi ,ndetse ruguru yayo hari umurima uhinzemo igihingwa cy'imyumbati kikiri gito kitarera.

Umurima munini uteyemo ibigori bishishe bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibi iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, aho byanikwa bigakurwamo intete na zo zigakorwamo ifu.

Mu murima udahinze neza, harimo igiti cy'imbuto kikiri gito, iki giti cyera imbuto z'amacunga, akajyanwa ku isoko maze abayaguze bakayarya cyangwa bakayakoramo ibintu byinshi birimo n'umutobe.

Umuhanda w'igitaka udakuze ukikijwe n'imirima irimo ibimera bitoshye, na none kandi hari ibiti birebire bikoreshwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, unyuze mu kirere kugira ngo utagira ibyo wangiza.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori bikiri bito ndetse bishishe, ibi bikenewe kwitabwaho bigashyirwaho ifumbire bikanaterwa umuti kugira ngo harwanwe ibyonyi byabibuza gutanga umusaruro.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye harimo n'imyumbati ikiri mito itarakura ngo yere ndetse hakabamo n'insina zera ibitoki byaba ibyo kuribwa bitetswe cyangwa n'ibyo gukorwamo imineke ikengwamo urwagwa.

Igihingwa k'ibigori gihinzwe mu murima udahinze neza ndetse kikiri kibisi, iki nicyuma kizasarurwa, kijyanwe mu bwanikiro, gihungurwe maze gikorwemo ifu na yo yifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo igikoma.

Inzira y'amateka yerekeza ahantu hateguriwe kubera ibirori runaka, muri iyo nzira kandi hakikijwe indabo zifite amabara y'icyatsi, hari kandi ibiti by'inganzamarumbo .

Umubyeyi w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, ari mu murima urimo ibiti bikuru by'ikawa, uyu ari kubyitaho akoresheje ibikoresho by'ubuhinzi.

Ahateganye n'umusozi muremure uriho ibiti by'ubwoko butandukanye, hari umurima munini urimo urutoki ndetse n'insina, izi zera ibitoki binini cyane bigakurwamo imineke ibindi bikaribwa.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire by'inganzamarumbo ndetse n'ibihuru, iryo shyamba rifitiye akamaro kanini igihugu kuko rikurura abakerarugendo ndetse rikanakurwamo ibintu bitandukanye birimo nk'ibikoresho byo mu rugo, urugero twavuga nk'ameza ndetse n'intebe.

Ahateganye n'ibiti birimo ndetse n'ibihuru, hari icyuzi kinini cyororerwamo amafi ndetse kikanakoreshwa mu bijyanye no kuhira imyaka mu gihe cy'izuba kugira ngo ibihingwa bituma.

Ahateganye n'umusozi mugufi uriho ibimera, hari umurima munini uhinzemo igihingwa cy'ibigori kikiri gito, ibi bihingwa biterwa umuti bigashyirwaho ifumbire, maze bigatanga umusaruro ushimishije.

Itsinda ry'abakerarugendo b'abazungu, bari ahantu mu ishyamba ry'inzitane, ribamo inyamaswa zo mu bwoko bw'inguge zizwi ku izina ry'ingagi, aba kandi bari kumwe n'umuntu ubayobora, mu rwego rwo kugira ngo batagira ikibazo bahurira na cyo mu ishyamba.

Umuhanda muremure nyabagendwa, ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Uyu muhanda ukikijwe n'ishyamba rinini, ryifitemo ibiti birebire ndetse n'ibigufi bikurura imvura n'abakerarugendo.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ririmo kandi n'ibihuru, aha hanyuramo akayira k'abanyamaguru, iri shyamba ricumbikiye ibimera ndetse n'inyamaswa z'agasozi zirimo nk'inzoka, imbogo ndetse n'izindi.

Ahitegeye umurima urimo igihingwa cy'ibigori, hari ibiti ndetse n'ikiyaga gikoreshwa mu mirimo ijyanye n'uburobyi bw'amafi ndetse no kuhira imyaka imvura yabuze cyangwa se mu gihe cy'izuba rikabije.

Urusisiro rugizwe n'inzu zitondekanyije zikorerwamo ubucuruzi ndetse imbere yazo hari umuhanda w'igitaka udakoze neza, inyuma yazo kandi hari urutoki runini cyane rwera ibitoki bivamo imineke n'urwagwa.

Uruhererekane rw'amashyamba, amaremare ndetse n'amato, atanga umwuka wo guhumeka, agakurura ba mukerarugendo ndetse akanakorwamo imbaho na zo zikorwamo ibikoresho byo mu rugo, birimo nk'ibitanda.

Umugezi utemba utanga ku musaruro w'amafi ndetse ukanakoreshwa mu kuhira ibihingwa byo mu kabande ukikijwe n'ibimera bitandukanye, hari kandi ibiti byo mu bwoko bw'inturusu ndetse n'igihingwa cy'insina zera ibitoki.

Ishyamba rinini cyane rifite ibiti byinshi, iri shyamba ricumbikiye inyamanswa z'ubwoko butandukanye ndetse rigira akandi kamaro ko gukurura ba mukerarugendo, gukurura imvura ndetse no gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Urusisiro rugizwe n'inzu nyinshi zituwemo n'abantu, hegeranye n'umusozi uriho ibimera, birimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, hari kandi n'isina zera ibitoki.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye birimo insina zera ibitoki bikorwamo imineke, na none kandi hari ibiti birebire bikorwamo imbaho ndetse bikanubakishwa.

Ibiti binini cyane by'inganzamarumbo, byakuze bisobekeranyije. Muri ibi biti habamo inyamaswa z'ubwoko butandukanye z'agasozi, zirimo nk'inzoka n'inyoni z'ubwoko bwose.

Amazi menshi cyane atemba aturuka hejuru ku musozi ajya hepfo mu kabande, aho kandi hari n'ibihuru byinshi bicumbikiye inyamaswa z'agasozi zirimo nk'inzoka, imihari ndetse n'izindi.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi, uzwi ku izina ryavoka, washyizwe ahantu hamwe nyuma yo gusarurwa. Uyu ukaba ugiye gutunganywamo ibintu bitandukanye, birimo nk'amavuta yo gutekesha mu rugo ndetse n'ayo kwisiga.

Inzu yababugenewe ikozwe mu byuma ndetse isakaje amashashi akomeye, muri iyi nzu haberamo ubuhinzi butandukanye, burimo ubw'imboga ndetse n'indabo, maze bikinjiriza amafaranga abakora ubwo buhinzi.

Ababyeyi b'abagore bambaye imyenda y'akazi n'ingofero, bari kuvangura avoka, izeze bazishyira ku ruhande n'iziteze bazishyira ku ruhande, aha ni mu ruganda rutunganya ibikomoka kuri avoka, rukazikoramo amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo kurya.

Abagabo ndetse n'abagore b'abahinzi, bari gusarura umusaruro wabo w'imbuto zeze ahantu bazihinze, aba barazijyana ku isoko maze zigurwe n'abantu bazijyane kuzitungisha imiryango yabo.

Ababyeyi b'abagabo ndetse n'abagore bakora umwuga w'ubuhinzi, bari mu murima munini cyane bahinzemo igihingwa cy'amashu, aba bari kwishimira umusaruro wabo ushimishije bafite mu ntoki.

Mu murima munini cyane uhinzemo inanasi, harimo imwe muri zo yeze, izi iyo zimaze gusarurwa, zijyanwa ku masoko maze zikagurwa, zikaribwa cyangwa zigakorwamo imitobe.

Mu busitani bwiza cyane harimo ibiti bitandukanye, birimo ibyera imbuto z'imyembe. Izi mbuto zikorwamo ibintu birimo ibyo kunywa, urugero twavuga nk'imitobe.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'ubururu. Uyu akora umwuga w'ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, ari mu murima we yahinzemo imbuto z'intababara.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu ndetse n'amaherena ku gutwi, yambaye uturindantoki aho ari gukora mu ikusanyirizo ry'indabo zifite amabara meza.

Inzu yabugenewe ikorerwamo ibijyanye n'ubuhinzi, isakajwe ishashi ikomeye, muri iyi nzu ibihingwa iyo birimo biba bifite umutekano kuko biba bitagerwaho n'izuba ryinshi cyangwa se ubukonje bwinshi.

Umubyeyi w'umugabo ukora umurimo w'ubuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara n'agapfukamunwa, ari ahantu habi hakorerwa imirimo kugera ku mbuto kugira ngo zikure maze zizimurirwe aho zizaterwa zikamara igihe kirekire.

Ahakikijwe n'urugo rwubakishije amatafari ahiye, ndetse n'ibyuma hari akarima k'igikoni ,aka karima gahingwamo imbuto z'ubwoko butandukanye, zirimo imboga rwatsi.

Umusaruro w'ubuhinzi urimo imboga n'imbuto, urugero twavuga isenda, amashu, karoti, ndetse n'ibitunguru, ibi byose ni ibituma umuntu agira imbaraga zo guhangana n'indwara.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, ari rwagati mu murima we yahinzemo imbuto, ibi abikora nk'akazi kuko bimuzanira amafaranga maze agatunga umuryango we.

Umurima munini uhinzemo ibiti birebire byera imbuto zifite ibara ritukura, ibi ni bimwe mu biteza imbere abahinzi kuko iyo bazisaruye bakazijyana ku isoko, bahabwa amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Ahitegeye umusozi uriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi, hari umurima uhinzemo neza cyane ndetse hari n'imashini zikoreshwa mu kuvomera ibyo bihingwa kugira ngo bitazicwa n'izuba.

Umubyeyi w'umugore ubyibushye yambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse n'ubururu bwijimye, uyu afite umupira munini utwara amazi, aho ari kuvomera ibihingwa biri mu murima we ngo bitazicwa n'izuba.

Ahitegeye umusozi uriho ibimera bitandukanye hari umurima uhinzemo ibihingwa, harimo kandi n'imashini zabugenewe zikoreshwa mu kuhira imyaka kugira ngo ituma iyo imvura yabuze.

Umubyeyi w'umugore ubyibushye, ari mu murima ukikijwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, uyu ari gukoresha umugozi munini utwara amazi, avomera umurima we wezemo amashu.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, birimo imboga rwatsi ndetse n'ibigori bikuru, muri uyu murima harimo igikoresho gihinduramo imirasire y'izuba mo amashanyarazi, maze akifashishwa mu kuhira imyaka.

Mu murima uhinzemo imbuto z'intoryi, harimo abagabo bambaye imyenda ibubahishije, aba bafite itiyo rinini ritwara amazi riyakura kure, maze na bo bakarikoresha buhira imyaka kugira ngo itazicwa n'izuba.

Umurima uhinze neza uteyemo imboga mu buryo bwa kijyambere, urimo itiyo rinini ritwara amazi ryakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga. lri tiyo ritwara amazi rikayakura kure maze rikayavomereza ibihingwa.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, afite igikoresho gikoreshwa mu gutera umuti imyaka, uyu ari gutera umuti ibigori bye kugira ngo bitazibasirwa n'udukoko dutuma byangirika ntibitange umusaruro.

Urugomero ruzitiye neza rufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, uru kandi rwubatswe hifashishijwe ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi, rukaba kandi runakikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Abantu bakora ibijyanye n'umwuga w'ubuhinzi bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo igikoresho gihinduramo imirasire y'izuba mo amashanyarazi aba bari kwitoza kubikoresha mu kuhira imyaka yabo maze biteze imbere ubuhinzi.

Umubyeyi w'umugabo, afite umupira munini, utwara amazi uyakura ahantu hamwe uyajyana ahandi. Uyu ari kuhira imyaka ye y'urutoki kugira ngo ruzakure neza.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara wijimye ,ari mu murima uhinzemo ibihingwa .Uyu afite umupira muremure ukoreshwa mu kuvana amazi ahantu hamwe ajyanwa ahandi ,aho ari kuvomera ibyo bihingwa.

Ahitegeye umusozi uriho ibimera ndetse n'ibiti hari igishanga kinini cyane gihinzemo imboga, iki gishanga kirimo ibikoresho bikoreshwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara, ari mu murima uhinzemo imboga, uyu ari kuwuvomera akoresheje igikoresho gikoreshwa mu buhinzi, hari kandi n'igiti kirekire cy'inganzamarumbu.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori gishishe gifite ibara ry'icyatsi kibisi, muri uyu murima kandi hanyuramo itiyo rinini rifite ibara ry'umweru ritwara amazi riyakura kure maze agakoreshwa mu kuhira ibyo bigori maze bikazatanga umusaruro.

Umubyeyi w'umugore ari mu murima uhinzemo imboga ukikijwe n'ibiti n'inganzamarumbo, uyu ari kuvomera izi mboga ze akoresheje igikoresho gikoreshwa mu kuhira imyaka kugira ngo ituma mu gihe cy'izuba.

Umurima munini uhinzemo imboga, zizwi ku izina ry'amashu. Uyu murima urimo idiyo rinini ritwara amazi riyakura ahantu kure, maze agakoreshwa mu kuvomera ibihingwa, kugira ngo izuba ritabyica.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara. Ari mu murima uhinzemo imboga zizwi ku izina ry'amashu. Uyu ari gukoresha itiyo rinini ritwara amazi, yuhira iki gihingwa gihinze muri uyu murima.

Umubyeyi w'umugore wambaye ikanzu y'amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, afite itiyo rinini ritwara amazi riyakura ahantu hamwe riyajyana ahandi, uyu ari kurikoresha yuhira imyaka ye ngo itazicwa n'izuba.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'ubururu bweruye, ari gukoresha umupira uzana amazi maze akavomera imyaka ye, hari kandi n'inzu zubakishije ibiti gusa zisakaje amabati zikorerwamo imirimo yo kwanika ibigori.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bweruye, ari ahantu mu nama, aho ari kwerekana umushinga, uzafasha mu kuhira imyaka ku baturage bakora umwuga w'ubuhinzi.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye umwenda umwe wo hasi ari mu murima munini, uhinzemo imboga zizwi ku izina ry'amashu. Uyu ari kuzivomera kugira ngo ziticwa n'izuba ryinshi, maze zikaba zakuma.

Umurima uhinze neza urimo ibihingwa bikiri bito, muri uyu murima hanyuramo itiyo rinini ritwara amazi, maze rikayavomereza ibyo bigwa kugira ngo bitazicwa n'izuba cyangwa se ubushyuhe bwinshi.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi, yambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, uyu ari gukoresha itiyo rinini ritwara amazi, aho ari kuvomera ibihingwa bye ngo bitazicwa n'izuba.

Ibihingwa bihinze neza ku murongo, hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bwa kijyambere, hagati yabyo hanyuramo amatiyo akora mu ikoranabuhanga atwara amazi, akayasuka kuri ibyo bihingwa kugira ngo biticwa n'izuba.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu bweruye, ari mu murima we uhinzemo igihingwa cy'amashu, uyu ari gukoresha itiyo rinini rizana amazi, avomera ibyo bihingwa bye.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, uyu yiteza agatambaro k'ubururu ari mu murima uhinzemo igihingwa cy'inanasi aho ari kukivomera agisukaho amazi.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ingofero, ari mu gishanga gihingwamo umuceri, uyu ari guhinga akoresheje igikoresho, gikoreshwa mu buhinzi kizwi ku izina ry'isuka.

Umusozi muremure urimo utuyira twerekeza ku mazu atuwemo n'abantu, kuri uyu musozi hariho ibiti birebire ndetse unateganye n'ikiyaga kirimo amazi menshi, akorerwamo imirimo iy'uburobyi ndetse no kuvomera ibihingwa.

Munsi y'Ijuru rikeye rifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hari uruhererekane rw'imisozi, iriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'amashyamba, hariho kandi n'inzu nziza zabugenewe zituwemo n'abantu.

Ahitegeye Ijuru rikeye ry'umweru n'ubururu, hari imisozi miremire iriho ibiti by'ubwoko butandukanye na byo bicumbikiye inyamaswa z'agasozi zirimo nk'inzoka, imihari ndetse n'izindi.

Umusozi muremure, uriho ibihingwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti birebire, haranyuramo kandi n'umugezi utemba. Kuri uwo musozi hariho imirwanyasuri, ifasha mu kugira ngo amazi ava ku musozi adatwara ibihingwa.

Umurima munini cyane uhinzemo kimwe mu bihingwa ngengabukungu kizwi ku izina ry'ikawa, iki kizengurutswe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi ibirebire ndetse n'ibigufi bikurura imvura ndetse bikanatanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Imisozi miremire iriho ibimera birimo ibyatsi n'ibiti, hariho kandi n'inzu zituweho n'abantu. Iyi misozi ikurura ba mukerarugendo ikaba iriho ibiti bikurura imvura bikanakurwamo ibikoresho bitandukanye birimo nk'imbaho, intebe amadirishya n'ibindi.

Imisozi miremire cyane iriho ibimera bitandukanye, ndetse n'ibiti birebire iteganye n'ikiyaga, gikorerwamo imirimo ijyanye n'uburobyi ndetse kikanakoreshwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba rikabije.

Umuhanda w'igitaka udakoze neza, unyura hagati y'ibihuru ndetse n'ibyatsi bitoshye. Aha ni hamwe mu hantu hashobora kuba haba inyamaswa z'agasozi, urugero twavugamo nk'inzoka, imihari ndetse n'izindi.

lmisozi miremire iteganye iriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi, ndetse n'ibiti by'ubwoko bwose, kuri iyo misozi kandi hateyeho ibihingwa, ari nayo mpamvu hariho imirwanyasuri, ituma amazi y'imvura adatwara ibyo bihingwa.

Umusozi muremure uriho umurima munini cyane, uhinzemo kimwe mu bihingwa ngengabukungu kizwi ku izina ry'icyayi, iki gihingwa kirasarurwa kikitabwaho kikajyanwa mu nganda maze kigatunganywa mbere yo koherezwa ku masoko.

Ahitegeye umusozi uriho ibimera birimo ibyatsi, ibiti birebire n'ibigufi, hari ikiyaga kinini cyiza cyane, iki kiyaga gikorerwamo imirimo itandukanye irimo ijyanye n'uburobyi, kikanakoreshwa mu kuhira imyaka, cyane cyane ku bahinzi bahinga mu kabande.

lmisozi iteganye iriho ibimera birimo ibyatsi ndetse n'ibiti, kuri iyi misozi hariho ibihingwa. Ari nayo mpamvu hariho imirwanya suri ifasha kugira ngo amazi y'imvura adatwara ibyo bihingwa.

Mu gisambu kinini kiri ahantu harinzwe harimo ubwatsi ,ndetse n'ibiti birebire. Aho kandi hari n'inyamaswa y'imparage, ifite amabara y'umukara, n'umweru, ikunda kwirishiriza ibyatsi.

Umusozi muremure uriho ibihingwa ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, byaba ibyimeza ndetse n'ibiterwa n'abantu, hari kandi n'umurima munini urimo ibigori bishishe.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo ubworozi bugezweho bw'amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko, izi nkoko zitanga umusaruro w'amagi maze bigateza imbere uzorora.

Mu kiraro kirimo inka za kijyambere zifite amabara atandukanye, harimo abagabo bashinzwe kuzitaho, aba bari kugerageza kuzikama bakoresheje ibikoresho bibikwamo amata bikoze mu byuma.

lnyamaswa y'itungo rirerire ryo mu rugo rizwi ku izina ry'inka ya kijyambere ,yambaye iherena ryerekana ko yakingiwe indwara. lyi iri kurya ibyatsi kugira ngo izatange umusaruro.

Mu cyumba gikorerwamo umwuga w'ubworozi, harimo udukoko tw'udushwi dufite amabara atandukanye, utu turagaburirwa hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe maze na two twakura tugatanga umusaruro urimo amagi n'inyama.

Mu cyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo ibintu bororeramo inkoko z'imishwi, izi nkoko iyo zikuze zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama maze bigateza imbere umuntu uba warazoroye.

Mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye, ndetse gikikijwe n'ibiti birebire, harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, afite amabara y'umweru n'ikigina aya ari kuririsha kugira ngo azatange umusaruro.

Ikiraro kinini cyubakishije ibyuma ndetse gisakaje amabati, muri icyo kiraro harimo inka za kijyambere zifite amabara y'ikigina, izi nka ziri kumwe n'umugabo ushinzwe kuzitaho akazimenyera ubuzima bwazo.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, aya ari mu gisambu kinini kirimo ibyatsi ndetse ari kurisha ari kumwe n'abashinzwe kuyitaho bazwi ku izina ry'abashumba.

Amatungo yo mu rugo magufi azwi ku izina ry'inkoko, aya arimo afite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ikigina, ari mu bwoko bubiri aho zimwe ari isake izindi zibaka inkokokazi zitanga umusaruro w'amagi.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, afite inkoni mu ntoki imushyigikira kugira ngo atagwa, uyu kandi ari guha inka ye ya kijyambere amazi, akoresheje igikoresho k'ibase.

Ahari ibiraro bikoze mu byuma, bisize amarangi y'icyatsi kibisi, hari abagabo n'abagore bambaye imyenda ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Aba bari kwita ku nka zizwi ku izina ry'Inyambo.

Mu cyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko, izi zikaba zikiri ntoya cyane ,aho zitabwaho zikagaburirwa zigahabwa imiti ,maze zakura zikazatanga umusaruro.

Mu biraro byubatse neza byubakishije inkuta z'amatafari harimo amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube. Aya yitabwaho maze agatanga ibishingwe bikoreshwa mu buhinzi, agatanga kandi n'umusaruro w'inyama.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere cyubakishije ibyuma, aha harimo umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, muri ibi biraro harimo inkoko zitera amagi.

Amatungo azwi ku izina ry'ihene, ari mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye, aho ari kurisha ari kumwe n'abashinzwe kuyitaho kugira ngo ataba yayoba inzira itaha, bityo akaba yazimira.

Mu kiraro cyubakishije amatafari ndetse giteye isima, harimo ingurube y'imbyeyi ifite abana yonsa, iyi ngurube ihabwa ibyokurya, igaterwa umuti mu gihe irwaye maze igatanga umusaruro w'inyama.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bari ahantu hari ikiraro cy'icyatsi kibisi, kirimo inka zizwi ku izina ry'Inyambo, aba bari kuzitaho bakurikirana ubuzima bwazo.

Ikiraro cyubakishije ibyuma, gisakaje amabati kirimo inka za kijyambere zifite ibara ry'ikigina, izo nka zitaweho neza, none na zo zitanga umusaruro urimo ifumbire ndetse n'umukamo w'amata.

Mu cyumba kinini, gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo inkoko zo mu bwoko bw'inkokazi ndetse n'amasake. Izi zitabwaho, zigahabwa ibyo kurya, zikavuzwa iyo zirwaye maze nazo zigatanga umusaruro w'amagi n'inyama.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi byubatswe mu buryo bwa kijyambere hifashishijwe ikoranabuhanga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibikoreshwa mu kugaburira amatungo kuko yororewe muri iki kiraro.

Igisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye ndetse gikikijwe n'ibiti by'inganzamarumbo, muri iki gisambu, harimo inka nziza za kijyambere imwe muri zo iherutse kubyara, ikaba iri kumwe n'inyana yayo,

Munsi y'ijuru ricyeye hari igisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti birebire, hari kandi n'ishyo ry'inka ziri kuririsha ubwo bwatsi kugira ngo zizatange umusaruro, umukamo ndetse n'inyama.

Amatungo maremare yo mu rugo azwi ku izina ry'inka, aya afite amaherena ku matwi yerekana ko yakingiwe indwara, ari kwerekeza ahari ubwatsi butoshye kugira ngo arishe maze na yo azabone gutanga umusaruro.

Mu kiraro gifite hasi hashashe isima, harimo ingurube nziza cyane, ifite ibara ry'umweru, iyi ngurube yitabwaho maze igahabwa ibyo kurya, igahabwa n'imiti maze igatanga umusaruro urimo inyama.

Mu kiraro cyagenewe guturwamo n'amatungo, cyubakishije ibiti harimo amatungo maremare azwi ku izina ry'inka za kijyambere, aya afite amabara y'umweru ndetse n'umukara, yitabwaho neza agahabwa ibyatsi, agahabwa umuti maze agatanga umusaruro umukamo.

Abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, bari iruhande rw'ikiraro cyubakishije ibyuma ,kirimo inka zizwi ku izina ry'inyambo. Zifite agaciro gakomeye ,mu bijyanye n'umuco nyarwanda.

Mu kiraro kigezweho cyubakishije amatafari, harimo ingurube nziza cyane ifite amabara y'umukara, ingurube ifite kandi amaherena yerekana ko yakingiwe indwara zibasira amatungo.

Ikiraro kiza cyane gifite amabara y'umweru, cyuzuyemo udukoresho dukoreshwa mu kugaburira amatungo. Muri iki kiraro harimo inkoko nyinshi cyane zifite amabara y'ikigina zitanga umusaruro w'amagi n'inyama.

Icyumba cyabugenewe, gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo imishwi y'inkoko myinshi cyane, yororwa maze yamara gukura, igatanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama, bikinjiriza amafaranga uwazoroye.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho, cyubakishije ibyuma, kinasakaje amabati. Muri iki kiraro harimo inka nkuru cyane yo mu bwoko bwa kijyambere, ifite amabara y'ikigina, itanga umusaruro w'amata n'ibishingwe.

Abagabo bashinzwe kwita ku matungo bazwi ku mazina y'abashumba, bari ahantu hari ikiraro kinini cya rusange, gikikijwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku, aba bari kwita ku nka ndetse banakama izikamwa.

Mu kiraro cyubakishije ibiti, harimo amwe mu matungo magufi yo mu rugo azwi ku izina ry'ingurube, aya afite amaherena ku matwi byerekana ko yakingiwe indwara zibasira amatungo.

Mu gisambu kinini cyane, kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo, harimo amatungo maremare yo mu rugo azwi ku izina ry'inka, izi zitabwaho zikavurwa zigahabwa ibyo kurya, maze zigatanga umusaruro ushimishije w'umukamo.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, harimo inkoko z'ubwoko bwinshi, zirimo amasake n'inkokokazi, izi zitabwaho maze zigatanga umusaruro w'amagi n'inyama.

Imbere y'ikiraro cyubakishije ibiti, cyagenewe guturwamo n'amatungo maremare, urugero nk'inka, hari andi matungo magufi yo mu bwoko bw'inyoni, azwi ku izina ry'imbata zitera amagi, zigatanga n'umusaruro w'inyama.

Ikiraro cyubatse neza mu buryo bugezweho, cyubakishije ibyuma ndetse gisakajwe amabati. Muri iki kiraro, harimo inka ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina. Iyi nka yitabwaho, igatanga umusaruro urimo inyama n'umukamo.

Mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ibiti birebire, harimo amatungo manini yo mu rugo azwi ku izina ry'inka, aya ari mu kurisha maze bikazatuma atanga umusaruro urimo umukamo n'inyama.

Mu kiraro cyubatswe neza, gifite inkuta zubakishije amatafari, harimo inka ya kijyambere ifite amabara atandukanye, iyi nka yambaye iherena ryerekana ko yakingiwe indwara, zishobora kuba zayibasira.

Ikiraro cyubakishije ibiti, kizengurutswe n'umurima uhinzemo ibigori, kirimo inka yo mu bwoko bwa kijyambere, ifite amabara y'umukara. Iyi nka yitabwaho, igahabwa imiti n'ibyo kuyitunga maze igatanga umusaruro.

Amatungo yo mu rugo magufi afite amabara y'umukara ndetse n'umweru, aya matungo yashyiriwe ibyo kurya hamwe ari gutora, aya kandi atanga umusaruro w'amagi, inyama, iyo yitaweho neza agahabwa imiti igihe arwaye ndetse n'ibyo kurya mu gihe ashonje.

Ahantu hateganyijwe gukoranira imbaga nyamwinshi y'abantu, hari abayobozi ndetse n'abaturage, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'ubururu n'umukara, bari kumurika imbuto zizakoreshwa mu gihembwe k'ihinga kizakurikira.

Umusaruro w'ibigori washyizwe hamwe munsi y'izuba ndetse utegereje guhungurwa kugira ngo ukurwemo intete maze na zo zisheshwemo ifu, ikorwemo akawunga, igikoma ndetse n'ibindi byo kunywa bitandukanye.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi uzwi ku izina ry'ibigori warasaruwe maze ujyanwa mu bwanakiro, ukurwaho ibishishwa, none utegereje guhungurwa maze ugasheshwamo ifu na yo ivamo igikoma cyangwa akawunga.

Umubyeyi w'umugore ari imbere y'inzu ye ifite amabati ndetse ifite n'amadirishya n'inzugi bikozwe mu mbaho, uyu afite umusaruro we ukomoka ku buhinzi ku nkoko.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Ari gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibishyimbo. Uyu ari kuwuvangura, awukuramo imyanda.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, yicaye hasi arimo kugosora umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibishyimbo, awutandukanya n'imyanda yawugiyemo kugira ngo abone uko ateka.

Ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, bibaho ari uko hari imbuto zabanje gushyirwa mu butaka, zikitabwaho zikavomererwa, maze zikabona izuba zikabona gukuramo ibihingwa bikuru bitanga umusaruro.

Umubyeyi w'umugabo ubyibushye, wambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru, ari mu cyumba kinini kirimo imyaka ipakiye mu mifuka umwe hejuru y'undi. Aha kandi harimo n'umugabo wambaye ingofero irinda mu gihe cy'impanuka.

Umubyeyi w'umugore ari ahantu hazitiye hakoreshejwe ibiti, uyu ari kwanika umusaruro w'ibigori utarahungurwa maze numara kuma ukazatunganywamo ifu, yakorwamo na yo igikoma cyangwa akawunga.

Umusaruro w'ibigori, upakiwe neza mu mifuka ifite amabara y'umweru, umuhondo, icyatsi kibisi, uyu musaruro ugiye kujyanwa ku ruganda, maze bawutunganyamo ifu ikorwamo akawunga.

Ikiganza cy'umubyeyi w'umugore ufashe mu ntoki umusaruro w'ibigori wamaze guhungurwa ndetse no kumishwa neza, ibi bigori bizakorwamo ifu na yo ivemo igikoma cyangwa se akawunga.

Ibikomoka ku buhinzi birimo umusaruro w'ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bituma umubiri ugira ubushobozi buhambaye bwo guhangana n'indwara ndetse bikanatuma ugira imbaraga.

Abantu bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bari ahantu hari ikiraro kinini gifite amabara y'icyatsi kibisi, muri iki kiraro harimo inka nziza zifite amahembe manini ndetse bakaba bari kuzitaho.

Inka nziza cyane zifite amabara ajya gusa n'umukara, izi nka ziri ahantu mu kiraro gifite ibara ry'icyatsi kibisi, gikozwe mu byuma, zikaba ziri kumwe n'abantu bashinzwe kuzitaho, izi nka zitanga umusaruro w'amata ushimishije.

Abagabo bambaye imyenda ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bari iruhande rw'ahantu hari ibiraro bikomeye, birimo inka zizwi ku izina ry'inyambo, zifite amahembe maremare yigoronzoye, aba bari kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Abagabo bagize umwuga ibyo kwita ku matungo, bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ,ndetse n'uturindantoki. Bari gukoresha urushinge bavoma umuti mu gacupa, aho bagiye kuwutera itungo.

Umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu ari ahantu hari ikiraro cy'ibyuma gifite amabara y'icyatsi kibisi, muri iki kiraro harimo inka ya kijyambere ifite ikibazo cy'ubuzima, uyu mugabo ari kuyitaho kugira ngo ikire.

Abakozi bakora mu bijyanye no kuvura no kwita ku matungo bambaye uturindantoki, bari gukoresha ibyuma bavura inyamaswa ifite ikibazo k'igikomere kiri ku ijosi. Aba bari kugerageza kuyivura.

Itsinda ry'abagabo bateraniye hamwe ku itungo ry'inka rifite ibikomere. Aba barimo umwe muri bo wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, uri kugerageza kudoda aho iyo nka yakomeretse, akoresheje ibikoresho birimo utwuma n'imikasi.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'uturindantoki, ari iruhande rw'ikiraro gikozwe mu byuma gisize amarangi y'icyatsi kibisi, uyu ni ushinzwe kwita ku nka z'Inyambo ziba muri icyo kiraro.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite amabara y'umweru, yambaye uturindantoki ndetse ari iruhande rw'ikiraro gikoze mu byuma, uyu ari kuvura inka iri muri icyo kiraro ifite ibibazo by'ubuzima.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu n'icyatsi kibisi bari iruhande rw'ikiraro cyubakishije ibyuma ndetse n'amatafari, iki kiraro kirimo inka zizwi ku izina ry'inyambo zifite agaciro gakomeye cyane mu muco nyarwanda.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro ikoreshwa mu kazi, umwe muri bo afite akuma kazengurutse ku ijosi rye k'ikoranabuhanga gakoreshwa mu gupima indwara z'amatungo.

lkiraro cyiza cyubakishijwe amabati ndetse n'urudandi ,byose bifashwe n'ibiti, iki kiraro cyororerwamo amasazi ,nayo agaburirwa izindi nyamaswa z'amatungo yo mu rugo.

Abagabo bambaye imyenda y'akazi ifite amabara y'ubururu, ndetse n'inkweto z'akazi, bagize umwuga ibyo kwita ku matung, bari kugerageza kuvura inka y'inyambo, ifite ikibazo cy'ubuzima.

Itsinda ry'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, bambaye imyambaro y'umweru ndetse n'udupfukamunwa hamwe n'uturindantoki kugira ngo hatagira indwara babyanduriramo.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'ubururu, bari iruhande rw'ikiraro gikozwe mu byuma bisize amaba y'icyatsi kibisi, aha harimo inka ifite ikibazo cy'uburwayi ndetse bakaba bari kuyitaho kugira barebe ko yagarura ubuzima bwiza.

Umuti ufunze neza mu icupa rifite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, uyu muti uvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo, yaba amagufi cyangwa se n'amaremare, urugero twavugamo nk'inka, inkoko ndetse n'izindi.

Abagabo bambaye imyenda y'ubururu, uturindantoki dufite amabara y'ubururu. Bari ahantu hari ikiraro cyubakishije ibyuma. Muri iki kiraro, harimo inka izwi ku izina ry'inyambo. Aba bagabo bari kuyitaho bayivura.

Itsinda ry'abaganga bavura amatungo bakoraniye hamwe bambaye uturindantoki ndetse n'amataburiya y'akazi, aba bari kwegeranya inyama zavuye mu matungo yabazwe bazipima ngo barebe ko nta kibazo zifite.

Ahakorerwa ubuvuzi bw'amatungo harimo abasore bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, aba bari kugerageza kuvura itungo ryo mu rugo rizwi ku izina ry'imbwa bakoresheje utwuma n'udukoresho dukoreshwa mu buvuzi.

Mu cyumba cyabugenewe, gikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa n'uturindantoki, aba bari kwegeranya imiti n'ibindi bikoresho bakoresha bavura amatungo.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu barimo n'umugore umwe. Bari ahantu hari inka zo mu bwoko bw'Inyambo zifite amahembe yigoronzoye aba bari kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza maze zitange umusaruro.

Inka zizwi ku izina ry'Inyambo zifite amahembe yigoronzoye, ziri mu kiraro gifite ibara ry'icyatsi kibisi, izi ziri kwitabwaho n'abagabo bambaye imyambaro y'umweru bashinzwe kwita ku buzima bwazo.

Inyamaswa yo mu ishyamba ifite ibara ry'ikigina ndetse n'amahembe mato, iyi nyamaswa ikunda kwirishiriza ibyatsi ndetse ubuzima bwayo bwose ibaho ihunga izindi nyamaswa z'impigi zishobora kuba zayigirira nabi.

Inyamaswa y'inkazi, ifite ibara ry'ikigina, iyi nyamaswa ikunda kuba mu byanya bikomye aho nta muntu ushobora kuyegera, kuko ishobora kumugirira nabi bitewe n'ukuntu igira amahane.

Inyamaswa y'inkazi, ifite amabara y'ikigina, umukara ndetse n'umweru, iyi nyamaswa izwiho kugira ubugome ndetse ifite amenyo maremare ayifasha mu guhiga ndetse no kwica izindi nyamaswa kugira ngo izirye.

Intare z'inkazi ziri ahantu hamwe hakikijwe n'ibihuru, hari kandi ikibuye kinini intare imwe muri zo iryamye, izi ntare zizwiho kuba zikunda kurya inyama bityo ni ngombwa cyane ko abantu bazigendera kure.

Inyamaswa z'inkazi zizwi ku izina ry'intare, zifite amabara y'ikigina, ziri kunywa amazi, aho ziri kumwe n'ibyana byazo. Izi nyamaswa zizwiho kuba ari umwami w'ishyamba ndetse zigira amahane menshi cyane.

Inyamaswa yibera mu byanya bikomye ndende cyane, ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, iyi nyamaswa izwiho kuba ifite uburebure busumba ubw'izindi nyamaswa ndetse ikunda kwirishiriza hejuru y'ibiti.

Inyamaswa zikunda kuba mu mashyamba zikagenda mu matsinda ndetse zikagira ubwoya bwinshi, izi nyamaswa zikunda kwirira ibikomoka ku bimera ndetse zikanatera abantu mu mirima yabo maze zikangiza ibyo bafite mu mirima yabo.

Inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'ingwe, iri mu giti kirekire mu mashami yiryamiyemo, iyi nyamaswa izwiho kuba ari ingome ndetse no kuba ari impigi, bityo ni ngombwa cyane ko abantu bayigendera kure kuko ishobora kuba yabambura ubuzima.

Akanyamaswa k'agakururanda kari mu ishyamba, aka gafite ishusho imeze nk'iy'umuserebanya, uruhu rufite amagaragamba, umurizo utari muremure cyane ndetse n'umutwe usongoye.

Inyamaswa y'inkazi ifite ibara ry'ikigina yitendetsetse ku yindi nyamaswa izwi ku izina ry'imparage, ifite ry'umweru ndetse n'umukara. Iyi nyamaswa ikaba iri kuyirya ikoresheje amenyo yayo atyaye cyane.

Mu cyanya kinini, kirimo ibyatsi bitoshye, harimo inyamaswa zifite amahembe zizwiho kuba zikunda kwirishiriza. Izi ziri munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Inyamaswa y'inkazi y'indyanyama, ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara n'umweru, iyi nyamaswa izwiho kuba igira amahane, bityo ni ngombwa ko umuntu yayihunga igihe cyose ayibonye kuko ibi ishobora kuba yamugirira nabi.

Mu cyanya cyahariwe inyamaswa harimo inyamaswa zo mu bwoko butandukanye zirimo impara ndetse n'imparage zifite amabara y'umukara n'umweru, izi nyamaswa zikurura abakerarugendo.

Inyamaswa y'agasozi izwiho kugira amahane ndetse no kwiyenza ku zindi nyamaswa, iyi ikunda kwirira ibyatsi ndetse no kurya ibyo itesheje izindi nyamaswa.

Inyamaswa nini cyane zo ku butaka zifite ibiro byinshi ndetse zifite amatwi manini, izi zizwi ku izina ry'inzovu ndetse zifite amahembe y'igiciro cyinshi kuko akunda kugurwa amafaranga menshi.

Inyamaswa z'amatungo yo mu rugo, azwi ku izina ry'imbwa ziri gukinira mu muhanda wa kaburimbo, izi ziri kwishimisha ndetse zinakina imikino itandukanye ituma zishima.

Inyamaswa ibereye ijisho, ifite amahembe meza ifite ibara ry'ikigina, iyi ikunda kwibera mu ishyamba ry'inzitane, aho ikunda kubaho yihisha izindi nyamaswa z'inkazi, zishobora kuba zayigirira nabi.

Mu byanya bikomye harimo imbuga nziza irimo ibyatsi, muri ibyo byatsi harimo inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'intare. Iyi nyamaswa ikunda kwitwa umwami w'ishyamba kuko ihiga izindi nyamaswa mu bwenge, mu mbaraga ndetse no mu muvuduko.